Ubwato bwo mu mazi ni bwiza, ariko na none ikintu mbona bakwiye kuzajya bashyiraho ariya majire abantu bambara, uyagiyemo wese akagenda yambaye ijire.

Inama nk'iyi irimo abayobozi batandukanye, usanga bavugiramo ikibazo cyabo mbese nk'umuturage, akabasha kuba yatuma nk'umuyobozi akaza kukimubariza, igihe hatajemo n'abaturage biba ari byiza kurema inama imeze gutya.

Kamera ni igikoresho cyiza, usanga kiri ahantu hatandukanye ku bipangu, mu maduka, birabafasha kuko hari igihe nk'umuntu yinjira batabizi, ugasanga ashaka gukora amabi bagahita bamufata.

Bote zirafasha nko mu gihe gihe cy'imvura, ariko usanga hariho nk'abo bazihaye mu ma leta bakazigurisha, ntabwo ari byiza ukwiye kuyibika ukayikoresha icyo bayiguhereye, kubera ko icyo baba bayiguhereye ngo ikurinde......

Imbwa ni itungo Abanyarwanda bakunze korora, kuko usanga akenshi nk'abafite ibipangu barazoroye, ariko nanone bazajye bisubiraho bazorore barazikingije kuko iyo iriye umwana idakingiye, usanga agize nk'ikibazo ugasanga ntakize, akenshi pe bazajye bazifata bazorore ariko bazikingije, kuko ni byiza kubanza wazikingiza ziraryana.

Inteko rusange nangwa se inama rusange y'abaturage, ni nziza kuko iyo umuntu afite ikibazo abarizamo, n'undi wese ufite ikibazo akisanzura akaba yabarizamo ikibazo afite.

Ingoma ni igikoresho bavuza aho bari gucuranga, bari gukoma mu rusengero. Ariko n'ahandi hantu habaye ibirori bakunze kuyijyana kuko nyine iyo uri kuyicuranga kandi unayizi , no kuyivuza uba ubona ibirori byashyushe cyane.

Ingoma ni igikoresho bakoresha mu birori bavuza ingoma nk'umubyeyi wabyaye .usanga mu giturage nyine tugikoresha . No mu nsengero nk'iyo umuriro wagiye barayivuza, abaturage bagako

Umuganura ukunze kuba mwiza kuko usanga nk'abaturage cyangwa se abanyarwanda bagiye batandukanye Akenshi nk'ibintu badaheruka babirira mu muganura. Nk'umutsima w'amasaka usanga abenshi nyine batawugerya. Iyo habaye umuganura buri munyarwanda arisanzura akarya icyo ashaka : ibigori biba bihari, ibirayi, mbese buri munyarwanda yisanzuye, nta kibazo afite. Ni yo mpamvu ari mwiza cyane.

Bazita intore, zikunze kubyina mu bukwe ,mu birori habaye ibirori bitandukanye barabatumira, kuko ni umwuga mwiza, ntabwo baba bagutumiwe ngo uburare kubera umwuga wize.

Uducuma bakoresha bari kunywa urwagwa, ikigage n'ibindi bintu . Uduseke two badukoreshaga bari gutaka nko hejuru ku tubati, abantu ba kera , ariko hamwe na hamwe usanga duhari mu mazu atandukanye baradutatseho, ugasanga hariho nk'imitako y'uturago , mbese nk'ahantu hakera usanga bihari iyi mitako ntabwo wayihabura.

Inkaba bakoresha bagiye mu mihango y'ubukwe, imisango, bakaba bayijyana bagiye gukwakwa, kuvugira inka n'ibindi, iba ibone pe! Kuko ifite amahembe meza, ndetse iraboneye ahantu hose.

Isekuru bakoresha basekuru isembe, ibishimbo ushaka wabishyiramo, ubinyobwa ariko nkiyi ngiyi ndabona imaze gusaza kibaye bakagombye gukoresha indi.

Mu muco nyarwanda wa kera, aba babitaga intore. Ariko n'ubungubu mu bukwe bugiye butandukanye haba igihe babatumiye bakaza bakabyina, kuko iyo babyinnye ibirori birashyuha, ugasanga nyine ubukuwe meze neza.

Ingorofani bayikoresha bayora umucanga, itaka, mu gihe bari kubaka bayikoresha cyane, kuko usanga ari igikoresho cyihuta no gupakiramo amatafari, mu gihe uri guhereza abari kubaka.

Isekururo ni nziza , bayisekuriramo isombe , ubunyobwa , n'ibintu bigiye bitandukanye . Wabasha gusekuriramo n'udushyimbo ugiye kuducoma wadushyira mu isekuru yawe , tukaza dusa neza ukaturya nta kibazo ufite.

Ikibindi bakoresha basabika bakengeramo ikintu bita urwagwa, n'inzoga, n'ibigage babinyweramo ,abakera ni byo banyweragamo inzoga.

Ingobyi bayikoresha baheka nk'umurwayi nyine ahantu mu giturage hatabasha kugera imodoka bayikoresha baheka, naho umuvure n'utwo dutanda badukoresha bakama urwagwa, isekuro bayikoresha basekura isombe n'ubunyobwa, ibintu bitandukanye, bayikoresha ku bintu bitandukanye cyane, niyo mpamvu nyine dukwiye kuba dufite bino bikoresho mu rugo iwacu.

Ikirago ni igikoresho bakoresha bicaraho, wakwicazaho n'umwana mu gihe ari gukambakamba, ni yo mpamvu abanyarwanda babijyana mu isoko kugira ngo n'abandi bagure.

Uyu ni umuduri bakoresha bari gucuranga mu birori, cyangwa se nka ahantu habaye ibintu bitandukanye, bakunze kuwukoresha bari gucuranga, ariko nyine babikoreshaga kera, hataraza ibyo bita inanga, ariko hamwe na hamwe usanga bari kuwukoresha, kuko abenshi bakoresha ikintu kijyanye n'inanga, amasente, mbese ibikoresho bya kera ntabwo bagikunze kubikoresha . Nicyo bita umuduri.

Ibicuma, ibicuma babikoresha banyweramo inzoga, ariko nanone hariho nyine ububu ngubu cyangwa se nk'abantu bakuze barabifata bagahunikamo nk'ibigori by'imbuto, amasaka, ibintu nk'ibyo.

Umwuga wo kubyina ni mwiza aba babyita intore. Iyo bari kubyina mu birori mu bukwe usanga ibirori byashushe mbese nta kibazo abantu bizihiwe, niyo mpamvu nyine byaribikwiye kubyitaho natwe tukabyiga tukabimenya. Kuko n'umwuga mwiza usanga urubyiruko nyine batabihereza agaciro ubu ngubu barabyihoreye cyane.

Imiduri bayikoreshaga kera hataraza intanga n'ibyuma, ariko ubu intanga zaraje n'ibindi bitandukanye, bakunze kuyikoresha rimwe na rimwe ntabwo bakiyikoresha cyane nka mbere.

Korora gutya umuzinga w'inzuki ni byiza, ariko nanone umuntu akwiye kuwushyira ahantu yizeye. Aha ni mu ishamba abana bashobora kujyamo bakawucokuza, ugasanga bahagiriye ikibazo nukuwushyira ahantu umuntu yizeye.

Ababyinnyi nk'aba cyangwa se intore, mu bukwe bashusha ibirori n'ahandi hose mu birori bitandukanye, kuko iyo bari kubyina ubona ari byiza, nta muntu wigunga bose baba bahanze amaso ngo barebe uko bari kubyina.

Akamamiyo bagakoresha bacucuma ibishyimbo babyarura. Nta muntu wese uba utagafite mu rugo iwe kuko kaba keza kukaruza ibishyimbo no kubicucuma ugiye kurisha ubugari.

Isekuro bayikoresha bari gusekura isombe, ni igikoresho cyifashishwa basekura iso...n'ubunyobwa, soya, ibintu byose bakunze kuyikoresha n'ibishimbo kubicucuma.

Isekuru ni igikoresho dukoresha dusekuramo isombe, ubunyobwa, soya, n'ibindi bintu wumva ko ushaka ko bitonoka ukoresha isekuru, ni yo mpamvu nyine akenshi usanga bayifite, cyangwa se no mu makaritsiye umuntu akajya gutira yo.

Umuduri ni igikoresho bakoresha mu mwanya w'inanga kera ni cyo bakoreshaga mu birori, mu gucunga n'ahandi hose hatandukanye, ahantu habaye ibirori ni byo bakoreshega.

Umuduri bacurangaga kera ariko ubu ngubu ntago bagikunda kubikoresha, kuko kuba bazanye inanga n'ibindi bikoresho bigezweho, ariko mbere nyine umuderi wasangaga mbese nko mu bukwe wiganjemo kandi ibirori byashuhaga, kubera ko wabaga urimo mbese bakisanzura ukabona umugeni yishimye nta kibazo afite, niyo mpamvu nyine ubugubu ntabwo bagikunda kuyikoresha basigaye bakoresha amagitari.

Umuduri bawukoreshaga kera bacuranga, mu birori hataraza inanga, ariko ubungubu sinzi niba hari ahantu bakiwukoresha, kuko n'imbere bawukoreshaga kera, cyane cyane nko mu cyaro n'ahandi hata.

Hari bamwe usanga umwuga wo kubyina batawuhereza agaciro, nyamara twagakwiye kuwuhereza agaciro. Kuko umwana uzi kubyina, burya ashobora kujya mu birori, ugasanga atashye yifitiye nutwo dufaranga. Dukwiye kubishyiramo agaciro.

Gukamura umutobe w'ibitoki uraryoha pe harimo havamo urwagwa n'umutobe, ariko bakwiye kubikorana isuku kuko hari bamwe usanga bagikoresha amaguru, kandi ntabwo ari byiza bazajye bakoresha intoki.

Umwuga wo kuba utwiba gutya uba ari mwiza kuko nk'umunyarwanda usanga akenshi aba yiteje imbere kandi n'ubungubu abubu mbere ntabwo batubohaga ariko ubungubu ni umwuga mwiza kuko ntamuturage ubura amafaranga kuko bikomeye cyane baratuboha bakatujyana ku isoko bakabona amafaranga bakabasha kuyiteza imbere niyo mpamvu nyine ari umwuga abantu badakwiye gusuzugura.

Agacuma bakoresha banywesha ikigage, urwagwa, n'ibindi bintu bitandukanye. Imbehe yo na yo bakayikoresha iyo banywa icyo bita urubetezi. Abanyarwanda nyine hamwe na hamwe baracyabikoresha.

Inzu z'byatsi zari iza kera ariko ubungubu nta hantu pe mu Rwanda hakiri inzu z'ibyatsi zari iza kera ubu ntabwo bakizubaka.

Umuduri ni igikoresho bakoresha basusurutsa abantu babacurangira, kuko iyo bawucuranze wumva wishimye n'ibirori biba biryoshye, ariko ubungubu ntabwo ikigezweho basigaye bacuranga inanga.

Ibintu bijyanye n'intore, kera byahabwaga ijambo, ariko ubungubu basigaye bakunda kubakoresha mu bukwe, nabwo hamwe na hamwe, mbese bagakwiye gushyiramo imbaraga, kuko ni umwuga mwiza cyane.

Iwacu umunsi w'umuganura mbese usanga babyubahirije, nka gutya bano babikoze, ugasanga bazanye ikibindi cyo kunyweramo amapfukire, ibitenga, mbese barabyubahiriza cyane.

Ni byiza kugosora ibishyimbo kuko nk'iyo ugiye kubiteka warabigosoye, imyanda yose iba yavuyemo wabirobanuye. Niyo mpamvu nyine buri muturage cyangwa se buri munyarwanda wese akwiye kugira umuco nyarwanda.

Ipombo bayikoresha batera umuti ibirayi, ibishyimbo, amasaka, ibintu nk'ibyo kuko udafite ipombo nta kindi kintu nyine cyawutera vuba vuba ngo ubone usoje, ni yo mpamvu nyine babicuruza no ku masoko ugasanga birahari, ukeneye igikoresho bita ipombo akajya kukigura, nyine kugira ngo abashe gutera ibihingwa bye umuti bimworoheye.

Intore iyo bazizanye mu bukwe usanga ubukwe akenshi buboneye, kuko nk'iyo bari kubyina bashyushya ibirori cyane, niyo mpamvu akenshi nyine bakwiye kuzajya babatumira akenshi nyine baboneza ibirori.

Gusimbuka urukiramende gutya twabikoraga kera tukiri abana kuko hari n'abandi babikoraga. Niyo mpamvu ubu ngubu batakibikora kuko kera wasanga bavunitse kubera gusimbuka urukiramende cyane.

Urusyo . Urusyo barukoresha baseteraho amasaka , ubunyobwa, bagakora nk'ifu . Niyo mpamvu usanga akenshi ariko ubu ntabwo bakunze kubikoresha cyane byari ibya kera.

Kurunda ifumbire gutya ni byiza kuko nk'iyo igihe cy'ihinga kigeze urayifata ukayigurisha, cyangwa se nawe waba ufite umurima ukagenda ukayifumbiza, ariyo mpamvu ari byiza kurunda ifumbire.

Ibicuma babikoresha banyweramo ikigage cyangwa se urwagwa, ibintu bitandukanye akenshi mu tubare usangamo bino bicuma nibyo banyweshamo imiheha yabyo, nta hantu usanga batabifite mu giturage.

Muco nyarwanda wabagaho mbere bariga ku nkoko, kanywera mu bicuma, ariko ubu iterambere rya raje pe ni hamwe na hamwe wasanga bari kurira ku nkoko, cyakoze wenda uducuma two baracyatunyweramo, hamwe na hamwe, ariko abenshi ntabwo wasanga bakinywera ku mu bicuma cyangwa se ngo barire ku nkoko umva iterambere ryaraje cyane.

Ishoka bayikoresha basa inkwi, usanga hamwe na hamwe batayifite ariko n'abatayifite bakoresha icyo bita umuhoro. Ariko nkiyo bagiye mu ishyamba gutema, ukoresha ishoka niyo yihuta cyane.

Intore ni nziza, mu birori bitandukanye iyo babatumiye, bababasha kubyina, mbese bakaba ahantu hose ibirori bigashyuha, niyo babatumiye nyine ubonamize neza.

Gucomeka sharijeri imvura iri kugwa ntabwo biba ari byiza pe! Kuko uracomeka iyo gishushe cyane urabona turiya tuntu tubiri iyo gishushe cyane tayari nuguhita giturika ugasanga inzu irahiye.

Impamvu baciye insengero, wabonaga hariho nk'izirimu manegeka, zitagira ikibuga, zidafite ubwisanzure, nta nkingi, hari amabuye, nta kibuga gihari, byaba parikingi niyo mpamvu.....

Reba nk'uru rusengero rwubakishije amategura, ruri ahantu mu manegeka, nta kibuga kinini rufite. Nk'uru rwo rwose ntigakwiye kuhaguma pe bagakwiye kurusenya nta bintu byinshi.

Ni byiza amazu aba yubatse nka gutya ku muhanda aba agaragara neza, niyo mpamvu bakwiye byo kongeramo isuku. Niba bafite umucaca n'inyuma bakazajya bakupakupa, hagahora hasa neza, kuko nko ku muhanda nyine ntawahagirira umwanda. Irangi ryasaza bagasigaho irindi, urabona nkiri ngiri ritangiye kuzana utuntu tw'umukara, kandi ryari umweru. Bagakwiye kureba uburyo tu nyine bongera ku bintu bijyanye n'isuku, cyane cyane ku muntu.

Ibi byapa bazanye byo kugeraho imodoka igahagarara, byoroheje ibintu, wasangaga nk'imodoka yafatiyeho ifite umuvuduko mwinshi, ugasanga yakora n'impanuka, ariko iyo igeze kwiki irahagarika, ikamenya ngo aha ngaha ni uguhagarara, cyangwa se niba hari abantu barambuka, bakambuka, ariko ibyapa bazanye pe! Byafashije abantu kuko ni byiza cyane, nta bwo impanuka zikiba nyinshi mu muhanda kubera ibyapa bashizemo.

Iyi nyubako ni nziza ariko nyine iri muri za Kigali, kuko uturere tumwe na tumwe ntibarabasha kuhagura ngo bubake gutyo. Ariko nyine uba ubona iyo uyigezeho ubona isa neza pe, ubona nta kibazo.

Nk'izi nsengero zigagara gutyo, usanga zitaboneye. Ubu se, nk’uru, barufashe bakarusenya, nta kibuga bafite, urabona hararimaguye, mbese nta bwisanzure bafite. Ni yo mpamvu, nk’izi nsengero zimwe na zimwe, bakwiye kuzisenya, n’iyo baba bafite ubushobozi bwo gukomeza gusenga, bakubaka insengero nshya. Kuko urabona nk’uru rurashaje cyane, hakwiye kurebwa uburyo ki baruvugurura.

Inyubako nk'izi ni nziza, kuko urabona iyi iri ahantu ahantu heza hakeye kandi ubona ko haboneye, kandi ubona ko iyi nyubako ikomeye cyane ku rwego ruri hejuru.

Aha hantu harasa neza, kuko urabona ko inyubako iracyari nzima ibyuma babitera amarangi bikabasha gusa neza, niyo mpamvu buri hantu bakwiye kongera amasuku hose hakaba hasa neza, bityo cyane cyane ku bitaro.

iyi nyubako yubatswe neza isa neza igaragara neza, amarangi aracyari mashya, ubusitani busa neza. Ahantu hose ari ibishoboka hakagombye kuba hasa neza, cyane cyane ku biro by'imirenge.

Iyo nzu yubatswe neza ahantu hose hasa neza, urabona ko bakunda kuhakorera isuku hagaragara neza cyane, kuko ahantu hose hasa neza uburyo u Rwanda rwaba rukeye nta kibazo rufite.

Iki kigo c'amashuri cubatse neza cane, kandi ndi kubona kiri ahantu heza hitaruye ntabwo kigomba guhura n'ibintu bijanye n'impanuka kuko cubatswe ahantu heza hakomeye, n'abacubatse bacubatse neza.

Amaposite de sante batuzaniye mu turere, mu kagari no mu midugudu byabaye byiza kuko nk' umwana, wabona yarwaye kandi, ubona ahantu hari ivuriro, ari kure cyane ukibaza ukuntu uribuze kugerayo, ariko kuba baratuzaniye ino positedesante byaratworohereje, uranyaruka ukavuza umwana, bakamuhereza imiti akabasha koroherwa baradukoreye ntakuntu batagize Imana ibahe umugisha cyane.

Amazu meza ariko urabona ko nta suku ihari, amazu hakwiye kongera isuku ahantu kuko hitayeho haba amazu meza agaragara bakahagirira isuku cyane.

Ibiro bya Gskenke byubatswe neza, ariko nyine hari ahandi usanga kubera nta terambere rirahagera ugasanga hubatswe nabi, ariko aha ho harasa neza kandi hanagaragara neza cyane.

Ni byiza kuzitira gutya ikigo, kuko nko gutyo iyo kizitiye umwana ntiyabasha gusohoka uko yiboneye, ariko nanone iki kiri hasi cyane , cyakazamuweho kandi bakakigiza hejuru.

Uyu muhanda wubatswe neza, kuko urabona uraturuka ku mashuri hari umuhanda, niyo mpamvu bakwiye kutwagurira hari nk'ibigo biba biri kure, ugasanga nta mihanda bafite yo kunyuramo, abanyeshuri bakabasha kugerayo basa nabi ubona utazi aho baturutse, ariko hari umuhanda nkuyu kuko bazajya bagera ku ishuri basa neza batiyanduje nta n'imicucu bafite kubera ko baba banyuze mu muhanda.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza, ariko iki cyo nyine amasuku ntararangira kuko nk'aha h'igitaka bakwiye kureba uburyo kibatera pasiparume hagasa neza, ariko iki kigo cyo cyubatswe neza amarangi a....

Ikintu kijyanye n'insengero harimo na kiriziya, kuno kuntu babigabanyije hari aho nyine wari ukubona bishoboka pe! Kuko wasanga mu umurenge harimo insengero kandi ari izinzaduka, ugasanga bigaragara nabi. Gutya bazigabanyije, yego si byiza cyane, ariko none hari aho byabaye byiza kurushaho, kuko wasanga ari akajagari k'insengero bingera ahantu hose.

Ibiraro nk'ibi ni byiza mu Rwanda, kuko ahataragera iterambere ntabyo barakora, ariko na none birafasha kuko inka zirya neza, ntizibe ziri mu mwanda ariko biriya byo gushyira mu kiraro inka ukayigaburira nyine idafite icyo kuriramo bigaragara nabi, kuko umuvure urafasha kugaburira inka, ifumbire riza rimeze neza.

Usanga mu mirenge itandukanye, utugari twaho tuba nta suku dufite, cyangwa se ugasanga ntihubatse neza, bakwiye kuhagura hakamera nk'aha kuko aha urabona ko hasa neza.

Insengero pe . Nk',uri rwubatse neza ,ariko urabona ko ruri mu muhanda neza neza. Byibura bakagombye gushaka ukuntu bamera nk'abazitiye kuko ruri mu muhanda cyane.

Ikibuga nkiki kiba ari cyiza kugikiniramo cyane cyane ku izuba, naho ku mvura usanga biteza impanuka nko kunyerera, kuko urabona ko hari ibyondo birimo bakwiye gukinira mu kibuga kirimo umucaca.

Mu Rwanda twongeye amasuku, kuko ntugisanga hamwe na hamwe hasa nabi, usanga ku mihanda hakeye hasa neza kubera amasuku twongeye, mu Rwanda urabona ukuntu ahantu hasa neza.

Amazu yama etaje ubona agaragara neza, niyo mpamvu twese dufite ubushobozi cyane cyane ku mihanda twakagombye kubaka amazu nkaya ngaya ku mihanda aba agaragara neza cyane.

Amazu ya etaje ni meza, usanga nk'ahantu mu migi itandukanye, ku muhanda hubatswe gutya, ukabona bisa neza, ari ibishoboka mu Rwanda hose, akenshi ku mihanda hakagombye kuba hasa gutyo.

Ibiro by'akagari akenshi, hari ibyo usanga biri mu manegeka bitubatse neza, nk'ibi ibyo byubatse neza pe! ariko hari ibindi usangasanga, uhasanga amabati yarashaje, mbese batabyitaho bakwiye nabyo kubyitaho bakabije.

Abarimu burya gukorana inama n'abanyeshuri cyangwa se kujya ku muronko bari kumwe n'abanyeshuri ni byiza, ariko usanga ku bigo bimwe na bimwe batabyubahiriza, ugasanga nk'umwarimu ahageze yakererewe, ntabashije kumva amategeko bavuze mbese ugasanga bigaragara nabi. N'iyo mpamvu bakwiye kuzajya bazinduka, bagakorana inama n'abanyeshuri babo bahageze biba byiza.

Umuntu wazanye imidugudu, kubaka imidugudu y'ibyitegererezo yarakoze pe! wasangaga hamwe na hamwe badafite uko babaho ariko ubu ntabwo bikigoranye usanga mu turere no mu midugudu ahantu hatandukanye harimo imidugudu y'icyitegererezo bagakwiye no kubareberera, mbere abantu bari batuye mu mudugudu w'icyitegererezo wabonaga mbese nta jambo bafite, ariko ubu ngubu bahawe ijambo pe!

Ni byiza ko abamotari bose, bikwiye ko baba bafite impuzangano, nk'amajire n' bindi bitandukanye kuko nyine nko mu muhanda iyo buri wese aparitse, ukwe ubona utazi!!?!

Bisi zitwara abagenzi cyangwa se imodoka ziratwara bakwiye kureba ubushobozi ,kuko usanga iyo igiye guhurirana n'indi modoka kubera ukuntu iba ari nini bigorana kugira ngo iceho ariko barebye nk'imodoka zica mu muhanda z'amabisi angana gutyo bagakora umuhanda munini biroroha kuko icyo gihe imodoka zinyuramo zisanzuye nta mbutiyaje irimo cyane.

Ni byiza ko mu gihe abanyeshuri bari kugenda ku ishuri, bakagombye gufata imodoka zihariye, zivuga ngo izi ni izo gutwara abanyeshuri, kuko usanga muri gare hari akavuyo babuze imodoka barwana n'abagenzi.

Umwuga wo kunyonga, umwuga wo kunyonga ni mwiza ku bantu babishoboye, ariko nanone nk'umuntu w'umwana ugasanga yafashe igare ari kunyonga, ntabwo bigaragara neza kuko akenshi ni bo bazana impanuka mu muhanda, gutwara nabi ugasanga babahaye amajire yo kwambara ntibayambara, bakwiye kwisubiraho niba barabahaye amajire bakajya bayambara, kuko birafasha nyine mu muhanda hakabamo umutekano.

Imodoka zikoreshwa zikora mu muhanda zigapakira ibitaka n'ibindi bintu bitandukanye kuko kuzipakiza biroroha kandi nyine ntabwo bivuna kuko ziragira vuba kubera ko ari bi...

Umwuga wo kunyonga nta kintu utwaye kuko baranyoga bakabasha kubona amafaranga. Ariko nanone byagakwiye kwigwaho bakareba buryo ki bazajya babona ahantu haparika h'umwihariko ku buryo baribuze kwasanga usanga biteza akavuyo . Hari igihe bamara ugasanga mu masoko buzuyemo kandi harimo n'abantu benshi mbese ntibigaragara neza , bakwiye kureba abantu baparikah'umwihariko aho umuntu aribuze kubashakira bimworoheye.

Ibi kontineri, iyo bihagaze nko mu nzira pe cyane cyane mu muhanda n'umuhanda ari mutoya, akenshi bikunze guteza impanuka. Bakagombye kureba ukuntu bazajya babyoruganiza, imodoka zigahera uruhande rumwe, cyangwa se bagafata nka sitasiyo hakaba ariho baba babishyize. Kuko mu muhanda, iyo bihagaze ari cyane, kubera biba byahagaze bitagenda, biteza impanuka mu muhanda cyane ikomeye. Bakagombye kureba ukuntu babigenza.

Imodoka nk'izi ni nziza, kuko urabona nyine kugendera no mu muhanda muzima, ariko nanone bagakwiye kongera bakareba uburyo ki nka hariya hejuru abana baba bari, bashyiramo ibirahuri kuko usanga hari igihe umwana nka kuriya harangaye yashyiramo nk'akaboko, cyangwa se akaba yakora impanuka, kuko urabona hejuru ni utwuma duhari nta kintu gihari cyabitangira. Ni yo mpamvu, bazajya bareba uburyo bashyiraho utwuma twinshi cyangwa se ibirahuri.

Ni byiza ko mu gihe abantu batonze umurongo muri gare , babona ko babaye benshi , hakwiye kuza abantu bashinzwe umutekano , kuko usanga kariya akavuyo ariho bananibira , ariko hari abashinzwe umutekano ntabwo bakwiba.

Umuntu wazanye amagare yaratworohereje, nka gutya wasangaga umubyeyi agenda ari kuvunika, yikoreye inkwi atabona ukuntu azitereza, ariko ubu ngubu n'ugushyira ku igare, nabo bakagenzura neza ko bagenda badateza impanuka mu muhanda.

Gare zubatswe gutya ziba zigaragara neza, niyo mpamvu nyine mu turere n'ahandi hose bakwiye gukora nkizi gare, kuko urabona nk'iyi isa neza, umuhanda urasa neza nta kibazo.

Abanyeshuri bari gutaha ariko usanga hariho ikibazo nko mu bice bitandukanye mu magare atandukanye usanga hari ikibazo abanyeshuri nyine babuze imodoka. Byakagombye kuba byiza mu gihe abanyeshuri bagiye gutaha bagafata nk'imodoka mbese zihariye zidakwiye gucamo abandi bagenzi bakavuga bati: "Ubu ni abanyeshuri gusa mwemerewe gutwara". Kuko usanga muri gare harimo akavuyo kubera ko abanyeshuri batashye.

Uyu muhanda ni munini cyane ariko hari uturere tumwe na tumwe tugifite imihanda, irimo ibisimu, idakoze neza ariko nanone si byiza ko imodoka igendwa inyuma n'ikindi kinyabiziga nka moto, ibi biteza impanuka cyane.

Gahare zitandukanye usanga harimo akavuyo ari nyine se na hamwewinginda aho wagirango aho batsema n'bazo bakuramo ibintu nta byiza byakagombye kubatwa gare nta kindi kintu nyine bakoreramo hari imodoka gusa zijyamo nta kindi kintu bakorera usanga hariywa kavu ke ntawangwa' umwe bakaburabuze ukuntukeza cyane cyane

Izi modoka ziba zijya hanze usanga akenshi zigenda nabi niyo mpamvu bagakwiye kwagura umuhanda, ahantu zinyura n'ukuntu haba harimo ibisimu bakabikuramo, kuko nkiyo ziri kwihuta akenshi iza kampani ziteza impanuka mu muhanda.

Gare nk'izi ziba zitubakiye, biba bigaragara ko zisa nabi, Ni yo mpamvu hakwiye kongerwa ubushobozi mu Rwanda bakubakira amagare. Nyine ku buryo wahagera ukabona ko ari gare. Ariko nk'ahangaha uhageze se wabona ari ibiki?!

Bisi n'inziza ariko urabona ukuntu ziparitse ahantu mu muhanda imodoka zirabasha kunyura, hari iba iri kwihuta ugasanga ifatiyeho, niyo mpamvu bakagombye gushiraho nkabantu bashinzwe umutekano bakabayobora ukuntu bahanyura, kuko urabona nta n'umuntu n'umwe uhagaze ntiba zitegereje no gutwara abantu, bakagobye kuba bashizeho umuntu ubishinzwe imodoka yahagera akayibwira ikagabanya umuvuko.

Imodoka zitwara abanyeshuri, zikwiye kwisubiraho, kuko hari igihe usanga umwana yakuyemo nk'umutwe mu modoka, ukagira ati se nk'ubu akoze impanuka sibo baba babirangayemo. Bakwiye kuzajya babicunga cyane bakareba.

Ntabwo ari byiza ko gare bacururizamo yagakwiye kuba yitwa gare, kandi abamotari n'abanyonzi bakaba bafite ahantu baparika, kuko usanga mu muhanda bahuzuye ugasanga abantu banabagonga, impanuka zikaba nyinshi.

Urujya n'uruza mu magare usanga havamo kwiba n'ibindi bitandukanye bagakwiye gushaka mbese nk' intebe, kuko urabona n'utu tuzu haba igihe tubaye dukeya abantu bakabura aho kwicara, bakwiye kubyagura cyane.

Ikibuga ni cyiza kugikoreraho siporo, ariko urabona nk’iki ntihasakaye. Urabona ko imvura yaguye, ntawabasha kuhakinira kuko uhakiniye yabasha kugira impanuka, cyangwa se akavunika.

Imikino yo gukina futuboro myiza, kuko mbere wasangaga abagore bitinya, ariko ubungubu nta mugore witinya, usanga abenshi bazwi cyane, imipira, futuboro ibintu nk'ibyongibyo.

Basikete ikomeje gufata indi ntera uba usanga nk'umwana muto yashaka gukina baskete mbese nk'ahantu yakina hakaba hamugora, niyo mpamvu bakwiye kubaka ibibuga mu turere iyo hatandukanye abana bagashobora kwitoza.

Volley ball ni nziza kuyikina, kuko byafashije abana biyumvamo impano, bakabura ahantu bayikinira, ariko n'ubundi mu mirenge itandukanye ntibarabyagura. Bakwiye kuyagura, kuko usanga hari abana benshi, bayikunda, bashaka gukina volley ball, bakabura ahantu bayikinira. Bakwiye kwagura mu mirenge yose, abana bakajya babona ahantu, bakinira volley ball kuko n'ubundi yaragutse cyane.

Mu muhanda haba hari urujya n'uruza rw'abantu. Umuhanda ni mutoya bagakwiye kureba uburyo ki bawagura, abanyamaguru bakazajya babone aho banyura, kuko urabona ko ni benshi cyane kandi umuhanda ari muto.

Umupira w'amaguru ni mwiza kuwukina. Byababaye byiza aho bagiye bagurira mu turere bagafata ibibuga bakabigira byinshi, kuko abana bifitemo impano babonye ukuntu bazajya bakina bisanzuye.

Gukina umupira mbere wasanga abagore babitinya, kuko mbere nta bibuga byahabaga nta nubwo babishyiraga imbere cyane, ariko ubu ngubu aho umuyobozi wacu asigaye yarabishiriyemo ingamba buri munyarwanda, cyagwa buri mukobwa usanga yaratinyutse akabasha gukina umupira ubona nta kibazo afite, abana b'abakobwa bakabyiruka bumva ko gukina umupira nta kibazo, mbese baritinyutse kuri ubu ngubu.

Pisine n'ahantu h'umuntu nyine wifitiye amafaranga w'umukire, agenda akaruhukira mo cyangwa se akaba ari koga, mbese ni uburuhukiro bw'abakire kuko nta muturage wabikora.

Gukina umupira ni byiza ariko na none bakwiye kwagura ibibuga mu turere dutandukanye, kuko hano usanga ibi ari bikeya, ugasanga hahuze n' abahungu, ariko hariho ibibuga nka bibiri cyangwa se bitatu abakobwa bakwisanzura bakabona aho bakinira, mbese bakabasha no kwiteza imbere, kuko nk'umukinyi uzi gukina umupira ntabwo yajya mu irushanwa, ngohere arema aho ngaho ariko bakwiye kujya bahagura.

Sitade yubatswe neza kuko iraboneye, ifite ibikoresho byuzuye, usibye ko ahantu hamwe na hamwe nyine ndikubona hatarasakarirwa ariko ubusanzwe ndikubona iteguye neza. Haraboneye naho gukinira ndikubona hasa neza cyane, ariko bakwiye kuzajya bongera nk'ibikoresho nka hariya hantu abantuza baba barakinira bakwiye kuhakora neza abakinnyi baba barakinira kuko atari neza cyane.

Pisine ni nziza, ariko na none urabona nk'iyi ngiyi ahantu iri nti hazitiye neza, bagakwiye kuzajya bazubakira ahantu hazitiye, ku buryo nk'uwajya yaba abizi neza koga ku buryo atagiramo ikibazo cyangwa se wenda nk'umwana ngo aba yahanyura tugiye gukina n'amazi, usanga nyine iyangiritse boko barabyitaho bakahazitira ku buryo nta kibazo.

Umukino wo gukina, umupira wabaye mwiza, kuko mbere abagore baritinyaga, ukabona mbese nta mugore wajya gukina umupira, arik'ubugubu baritinyutse babonye ko ari bya bose, babahaye urubuga nabo, baragenda bakitoza bagakina.

Pisine abakire bakoresha bari koga, kuko nta hantu mu giturage wayisanga, akenshi uyisanga mu mijyi, ni ho bakunze kuzikoresha boga. Ariko nyine, bagakwiye kureba neza abana babo kuko na bo babizi, kuko hari abana bajyamo bikabananira.

Gukina umupira ni byiza, kuko binanura ingingo. Mbere wasanga n'abagore batinya kujya gukina umupira ariko ubungubu byabaye byiza, usanga buri mugore wese abifitemo gahunda yo gukina basket bitamugora nyine, arawisiga nta kibazo afite, agakina yisanzuye, ubona mbese nta kibazo, kuko baba barabazaniye n'ibibuga byo gukiniramo, bikamworohera nyine kwitoza umupira cyane.

Basikete ni umukino mwiza, kuko usanga nka bamwe nk'iyo bagiye nko muri siporo kunanura umubiri, bakunze gukina basikete, kuko nyine ni nziza cyane kuyikina.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, usanga hamwe na hamwe nyine nko mucyaro barabifekaga batise nk'abantu babyuka bari kwirukanka, ariko ubu bose bamaze kumenya akamaro ka siporo.

Koga mu mazi menshi ntabwo ari byiza, kuko usanga hariho nk'ugiyemo atabizi ugasanga bizanye nk'impanuka, ariko nanone ni byiza kwinjiramo wambaye iriya imyenda baba bambaye, kugira ngo nubasha kurohama bakubone, kuko urabona ko nk'uyu byamugoye kuvamo. Ni yo mpamvu n'amapisine, umuntu akwiye kuzajya ayogamo abizi neza bitabasha kum.....

Ni byiza kubaka imihanda gutya, iyo usize ako abagenzi bagenderaho nta mpanuka nyinshi zikunze kuba, niyo mpamvu nyine turi gusaba ubushobozi kuko no mu turere dutandukanye bakubaka gutya imihanda, bagasiga ako abagenzi bazajya bagenderamo.

Inkoni ni igikoresho bakoresha bacyaha umwana, nangwa se nko ku ishuri naho usanga bayifite, nk'umwana nyine wakoze amakosa ugasanga bari kumucyahisha umunyafu. Ni cyo bita inkoni.